Ubuhinzi n'ubworozi bukenera ibintu bigiye bitandukanye, harimo amafumbire yaba ay'imborera, imvaruganda ,cyangwa se n'ibindi bintu byose, bishobora gutuma ubuhinzi butezwa imbere.

Ubuhinzi bukozwe kinyamwuga bukunze guteza imbere abantu. Ibi ngibi bigenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aho usanga abantu benshi bariteje imbere kandi barashyize imbaraga mu buhinzi. Aha ngaha rero nta kibazo k'inzara cyongera kugaragara mu muryango.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi harimo kuhira ndetse no kugenda dushyira imbaraga aho bitagenda neza dukoresha n'ifumbire y'imborera cyangwa se mvaruganda, ibi ngibi bizatuma umusaruro w'ubuhinzi uzamuka ndetse n'ikibazo cy'inzara kigahashywa burundu.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro, ibi ngibi rero bituma ikibazo cy'inzara kigenda kirwanywa gahoro gahoro kandi n'abantu bakagenda biteza imbere, bakemura bimwe mu bibazo bahura na byo mu buzima ndetse n'icyizere cyo kubaho kikagenda cyiyongera.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro. Aha ngaha harimo kuhira imyaka, kuyitera imiti ndetse no kugenda twufira mu gihe harimo ibintu byinshi byangiritse cyangwa se bishobora gutuma ibimera bitamererwa neza.

Imiti yica udusimba ikunze gukoreshwa n'abahinzi. Ibingibi bituma u rwanda rushyiramo imbaraga mu gutumiza hanze ibiva ku matungo, mu rwego rwo gukomeza guteza ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane mu bice byo mu cyaro.

Ibimera kugira ngo bikure kandi bimere neza bisaba kubyitaho ndetse no kwica udusimba, aha ngaha rero ntabwo tugomba kwicara ngo duterereye agati mu ryinyo tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka tukabibungabunga.

Uburyo bwiza bwo gushyigikira ibimera no gukura, harimo kubyuhira, kubyitaho, no kubifasha kumererwa neza. Aha ngaha nk'iyo umuntu yahinze hafi y'amazi, aba agomba kunyuzamo agatera n'umuti.

Imiti imwe n'imwe ikunze gukoreshwa mu buhinzi aho usanga bagenda bica udukoko dushobora kujya ku mashami cyangwa se ku bibabi by'ibihingwa, ibi ngibi byagiye bishyirwamo imbaraga cyane na Leta ndetse ibishishikariza n'abahinzi kumenya kubikoresha neza mu buryo buboneye.

Imyaka iyo itewe neza ikuhirwa kandi ikitabwaho ku buryo bushoboka itanga umusaruro nta kabuza, ibi ngibi rero bituma leta ishyiramo ingengo y'imari ihagije mu rwego rwo gushyigikira abahinzi, nabyo kandi ugasanga birakorwa vuba.

Kugira ngo ibihingwa bikure neza ni uko bigomba kuba byarahawe igihe gihagije cyo kwitabwaho, harimo nko kubyuhira, kubitera imiti, no kugenda hicwa uduko dushobora kugenda twangiza ibyo bimera, ibingi bituma umusaruro wiyongera.

Ubworozi bw'amafi bukunze gukorwa mu kiyaga cya Kivu, ariko bo si aho gusa kuko no muri Muhazi dukunze kubibona babikora, ibyo ngibyo rero biba bigomba gukorwa neza mu buryo buboneye.

Uburobyi bukorerwa mu biyaga busaba kwitabwaho kandi no gushyirwamo imbaraga, ntabwo ari byiza rero kwicara gusa ngo dutere agati mu ryinyo, ntitubikore dushyizeho imbaraga ndetse n'umwete, ibi ngibi bizatuma umusaruro w'Igihugu wiyongera.

Ibidendezi by'amazi, bikunze kuba biri ahantu hagaragara, mu rwego rwo kurwanya impanuka cyangwa se ibindi bibazo bishobora guteza. Ibi ngibi rero biri mu bintu bidukikije kandi bigomba gufatwa neza na buri wese.

Ubworozi bwo mu mazi nk'amafi bukunze guteza imbere ababukora. Byamaze kugaragara rero ko ababugerageje bose babashije guhirwa kuko nta wukigira ikibazo cy'imirire mibi cyangwa se ngo agire indwara zijye zituruka kuri iyo mirire mibi nka bwaki.

Uburobyi buba bugomba gukorwa neza kandi bya kinyamwuga. Nta muntu rero ugomba kugenda ngo yifatire ibyemezo uko ashatse, ajye mu biyaga cyangwa se mu yandi mazi abikoreye nta burenganzira yahawe na leta.

Ubuhinzi n'ubworozi bwo mu mazi busaba ikoranabuhanga rihambaye, ntabwo rero bikorwa n'umuntu uwo ari we wese kuko biba bisaba ubwitonzi, ntabwo rero tugomba kwicara ngo twumve ko hari abantu bireba hagomba no gukorwa ubukangurambaga bwimbitse.

Abarobyi bashyiriweho uburyo bwiza kandi buboneye bwo gukora uwo mwuga. Ntabwo rero bikunze kuboneka ko abantu bakora uyu mwuga mu buryo bw'akajagari kuko leta yashyizeho amategeko abihana.

Ubworozi bw'amafi bukorerwa mu mazi butanga umusaruro, ibingibi rero bituma umusaruro mbumbe w'igihugu w'ibituruka mu mazi wiyongera abantu bakihaza mu biribwa ndetse n'amasoko agasagurirwa.

Abarobyi bakunze gushyirirwaho ingamba zoroshye kandi ziboneye zo kubikora, harimo abahabwa ibikoresho nk'indobani mu rwego rwo gukomeza gushyigikira abaturarwanda muri rusange no kuva mu murongo w'ubukene.

Inyamaswa ziba mu mazi ziri mu bidukikije, abantu rero bakora uburobyi baba bagomba kuba babisobanukiwe neza ndetse bakamenya n'uburyo bashobora gutwara amafi kandi ntibagire ikintu bangiza gikomeye cyane, ibingibi rero bisabwa ko umuntu wabikoze aba afite impamyabumenyi ibimwemerera.

Amafi manini akunze kuboneka mu nyanja. Ntabwo rero mu biyaga bisanzwe wapfa kuyabonamo. Ibi ngibi niyo mpamvu bigenda bikomeza kugenda byigaragazwa n'abashakashatsi, berekana ko inyanja nazo zigomba kubungabungwa cyane, kurusha ibindi byose bigize ibidukikije.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'amazi biba bigomba gufatwa neza ntabwo rero twakirengagiza akamaro kabyo kandi tugomba no kumenya kubungabunga neza ibidukikije.

Ubuhinzi n'ubworozi bukorerwa mu mazi bukunze kuba buzwi n'abantu bake cyane, abenshi usanga batasobanukiwe neza cyangwa se ngo bamenye ngo ni ryari umuntu ashobora kubyaza umusaruro ibituruka mu mazi.

Iyo tubonye amazi arimo aranduzwa ibi ngibi rwose birababaza cyane, harimo rero abantu bayanywa ugasanga bateye nk'ibibazo nko kuba barwara impiswi n'ibindi byose bishobora gutuma batamera neza. Tugomba rero kwirinda ihumanya ry'amazi.

Ikidendezi cy'amazi gikunze kwifashishwa mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nko mu gihe cy'impeshyi, aho bagenda bakadaha ayo mazi, bakabasha kuhira imyaka yabo ibihingwa ntibyangirike.

Uburobyi buba bugomba gukorwa neza kandi bugakorwa mu buryo bwa nyabwo bunaboneye, ntabwo rero bigomba gukorwa mu kajagari cyangwa se ngo bikorwe n'abantu batahawe amahugurwa badafite ndetse n'ubushobozi bwo kubikora.

Icyayi ni igihingwa kiboneka mu gice cy'Amajyaruguru y'u Rwanda, abantu rero babonamo akazi bakiteza imbere bakarwanya imirire mibi biturutse ku mafaranga babonamo ndetse bakagenda bakemura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ikawa bwakomeje kugenda bushyirwamo imbaraga na leta. Aho yagiye ishyiramo ingengo y'imari ihagije cyane maze abahinzi na bo bakagenda babyungukiramo. Ibi ngibi bituma ibyoherezwa hanze bikomeza kwiyongera.

Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ibyoherezwa i mahanga, u Rwanda rwashyizeho ingamba zo kurwanya ubushomeri mu rubyiruko, nko mu gice cyo mu majyaruguru abenshi bashishikarizwa kujya gukora mu mirima y'icyayi.

Igihingwa cy'ikawa gikunze koherezwa hanze. U Rwanda ntabwo ruragira ubushobozi bwo kuyitunganyiriza kuko harimo inganda zimwe na zimwe zirimo zirubakwa mu rwego rwo korohereza abahinzi ndetse n'abandi bantu bakeneye gukora icyo gihingwa.

Igihingwa cy'ikawa cyakomeje kugenda gitezwa imbere cyane. Ibi ngibi bigenda bigaragara aho u Rwanda rugenda rwohereza amatoni menshi ku ruhando Mpuzamahanga maze na rwo rukabona amafaranga menshi.

Ibimera bikunze kuba biri ahantu heza kandi hagaragara kimwe n'ibindi bihingwa byose. Aha ngaha nk'iyo ugiye mu Majyaruguru usanga hahingwa icyayi cyane kandi uru rubyiruko rubonamo akazi kuko usanga abenshi nta bushomeri bagifite bariteje imbere ku buryo bugaragara.

Igihingwa cy'ikawa gikomeje guteza imbere rubanda. Abantu bagikora usanga babona amafaranga menshi kuko kiri mu byoherezwa hanze. Ntabwo rero twakwirengagiza uburyo bikorwamo kuko tuba tugomba gutoza abana ndetse n'abakuru kumenya gusasira ikawa.

Ibihingwa iyo byitaweho neza bitanga umusaruro. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga n'abahinzi ndetse n'izindi nzego za leta zigiye zitandukanye, zigashyiramo ingengo y'imari kandi ihagije.

Ubuhinzi bw'umuceri bukunze gukorerwa mu gishanga. Aha ngaha habamo amazi menshi kandi n'abantu bakabikora ku buryo bworoshye. Ntabwo rero twabikerenza cyangwa se ngo ntidushyiremo imbaraga zose zishoboka.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorwa mu gice cyo mu Majyaruguru. Ibi ngibi byatumye abantu bahaturiye babona akazi, urubyiruko rubasha kurwanya ubushomeri kandi rurushaho kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje kugenda butezwa imbere mu Rwanda. Ibi ngibi bituma abantu babwitabira ari benshi kandi bagashyiramo n'imbaraga. Iki gihingwa rero gikunze koherezwa i mahanga aho kinjiriza u Rwanda amadevize menshi.

Igihingwa cy'ikawa kiboneka mu gice cyo mu majyaruguru. Ibi ngibi bituma abantu bitabira buno buhinzi, bakabonamo amafaranga kandi bakitangira umurimo cyane cyane nko kuba bafashe igihugu mu kohereza bimwe mu bicuruzwa.

Imbuto zihingwa ziba zigomba gufatwa neza tukazihongera aho tugomba gukoresha imwe mu miti y'ica udusimba ishobora kuzangiza, ibi ngibi rero bizatuma ubuhinzi butezwa imbere ndetse buri muntu wese akabigiramo uruhare.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorerwa mu bice byo mu Majyaruguru y'u Rwanda, abahinzi rero babikora usanga barabonye amafaranga menshi kandi ahagije, bakabasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Ubuhinzi bw'ikawa bukunze gukorwa muri rubanda cyane, ibi ngibi bituma abantu bagenda bava mu kiciro kimwe bajya mu kindi kandi na bo bakagenda biteza imbere mu buryo bwinshi bugiye bushoboka. Leta yari ikunze kucyohereza hanze aho kiyinjiriza amadevize atabarika.

Ibimera biba bigomba kurembekwa neza mbere yo kujya guterwa kuko ibi ngibi bituma bitangirika mu gihe biri mu butaka, iyo bimaze gukura neza. Kandi imbuto zabyo zigenda ziyongera uko bukeye nuko bwije.

Amashyirahamwe y'ubuhinzi akomeje kugenda ashyigikirwa na leta cyane, kuko iyo abantu biteraniye hamwe nk'uko, bahabwa inyunganiramusaruro, bagahabwa amafumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda, maze bakarushaho kwiteza imbere mu bikorwa byabo.

Abahinzi bashyiriweho uburyo bwiza kandi bunoze bwo gukora neza imyaka ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi muri rusange, nta muntu ukigira ikibazo cyo kubika imyaka ye kuko bagishijwe uburyo bugezweho kandi bwa kijyambere.

Imiti ihabwa amatungo igomba kuba iri mu masashe ndetse no mu macupa yanditseho agaragaza ikintu kirimo. Ni mu rwego rwo gukomeza gusigasira neza ibidukikije kandi twitaye no ku byo twagezeho.

Imiti y'amatungo ikunze kwifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nko kuba yagenda igahabwa amatungo mu gihe yagize nk'ikibazo cy'uburwayi kandi ibingibi bigakorwa mu gihe gitoya kugira ngo hatagira ikindi kibazo ahura nayo.

Leta yatangije gahunda nziza yo kugenda ikwirakwiza imiti y'amatungo mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu. Ibi ngibi byagiye bitanga umusaruro mu myaka yashize kandi nibakomeza icyiciro cy'ubukene kizagenda gihinduka buri munsi, bamwe bagenda bazamuka cyane bagenda baba abaherwe.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri mu macupa meza agaragara. Inyuma hagomba kuba hariho ibirango, kandi ibyo ngibyo bigakorwa n'inganda zibifitiye ubushobozi atari umuntu ubonetse wese.

Imiti imwe n'imwe ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi, iba ipfundikiye neza mu macupa, abantu rero bakoresha ubu bwoko bw'imiti, bagomba kubanza gusobanurirwa neza uko ikora n'ingaruka ishobora gutera ibimera cyangwa se amatungo.

Ibiryo by'amatungo bikunze kuza biri mu masashe kimwe n'imiti, ibingibi rero bituma ubuhinzi n'ubworozi buzamuka ku kigero kiri hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bice Igihugu gishoramo imari.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza, hizewe kandi hafite isuku, ntabwo rero amacupa yayo, agomba kugenda atagaguzwa ku ruhande cyangwa se ngo abantu babice amazi, ntibagire icyo babikoraho mu gihe nk'ibyo bikorwa byabaye cyangwa se byakozwe n'abatabizi.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hizewe, ibi bituma itangizwa cyangwa se ngo ibe yagira izindi ngaruka ahantu iherereye, ibi rero biba bigomba gukurikizwa mu bice byose.

Inka zikunze kuba zifite imiti yihariye, akenshi rero harimo iyica udukoko tumwe na tumwe ndetse n'amasazi kuko usanga nkiyo yabaye menshi mu kiraro azibuza amahwemo ugasanga nazo ntizisanzuye.

Imiti y'amatungo igomba gushyirwa mu macupa meza kandi agaragara yanditseho n'ibigize iyo miti. Ntabwo ari byiza rero gushyira ahantu iyo miti ahantu hihishe kuko ishobora kwangizwa n'umuntu atabizi.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byakomeje kugenda byegerezwa abaturage, yaba abitwa ko bajijutse ndetse n'abatarakase mu ishuri, ibi ngibi byatumye bamwe bava mu murongo w'ubukene bazamuka ku kigero gishimishije.

Ibiryo by'amatungo bikunze kuboneka mu masashi, ntabwo rero tugomba kwicara ngo tumenye ko tugomba kwiyitaho gusa ngo twibagirwe amatungo yacu, ibi bizatuma natwe ibyo tubona bituruka kuri yo byiyongera turushaho kubaho neza.

Harimo imiti imwe n'imwe y'amatungo iba igomba kuba iri ahantu hagaragara kandi hisanzuye, mu rwego rwo kuyifata neza rero ikunze kuba iri mu masashe cyangwa se mu ducupa tugiye dutandukanye.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri mu macupa agaragara kandi afite n'inyandiko igaragaza ibintu bigize iyo miti. Mu rwego rwo gukomeza rero kurwanya ibikorwa bitemewe byo gucuruza magendu imiti y'amatungo, Leta yashyizeho ingamba zikarishye.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu hagaragara kandi hizewe. Ni mu rwego rwo gukomeza kuyisigasira kugira ngo ibe itahumanya abantu cyangwa se igire izindi ngaruka zitewe no kuyifata nabi.

Amatungo kugira ngo abeho neza kandi akure asabwa ko tuyitaho, aha ngaha rero harimo nko kuyashakira imiti yayo yabugenewe ndetse tukayitaho n'ubundi buryo bwose bushoboka mu gihe hari ikibazo agize.

Imiti y'amatungo ikunze kuza iri mu makarito. Ibi ngibi rero bituma itangirika cyangwa se ngo ibe yakoreshwa mu buryo budakwiye kandi si ibyo gusa tugomba kumenya ko iyo iri ahantu ipfundikiye neza nta ngaruka ishobora guteza ku bantu.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu hagaragara kandi hameze neza. Ntitugomba rero kugira icyo dukerensa cyangwa se ngo ntitwite ku bikorwa dukora. Aha ngaha ndavuga nko kuba twagenda tugapfundura iyo miti, ikaba yagira ingaruka zitari nziza ku bihingwa ndetse no ku bantu. Iyo bikozwe nabi.

lbimera biba bigomba gushyirwa ahantu heza kandi hizewe, bigatwikirwa bikarindwa izuba ,kandi bikagenda byuhirwa gahoro gahoro ,ibi ngibi bituma bikora neza bigashisha ,kandi ntibigore n'umuhinzi abyitaho igihe kinini cyane.

Abahinzi bagiye batezwa imbere mu buryo bugiye butandukanye. Nko kuborohereza mu gufata inguzanyo, kubahereza ifumbire y'imvaruganda ku giciro gitoya kandi n'iy'imborera abenshi barayibonera kuko abenshi baba banoroye.

Umwana afite uburenganzira bwo gukora ndetse no kwiga, ntabwo tugomba kugenda gusa ngo tubayashyire mu kintu kimwe twirengagije ikindi, aha ngaha natanga nk'urugero nk'abana bagiye bakurira mu mirima usanga kwiga bibagora.

Abahinzi ndetse n'aborozi bakunze kugirwa inama mu bikorwa byabo bya buri munsi, harimo abantu benshi bagendaga basuzugura batarasobanukirwa neza n'ibyo ari byo ariko ubu ngubu Leta yabishyizeho umucyo, ibintu byose birumvikana kandi bashyiramo n'imbaraga kugira ngo babikangurire n'abatabikora kubyitabira.

Mu gushyigikira no gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga. Harimo kwita ku bimera biba biri mu murima. Ntabwo tugomba kugenda ngo duterera agati mu ryinyo, ntitumenye gusukura neza umurima wacu, tuvanamo ibihingwa bimwe na bimwe, bidakenewe.

lnka zikunze gukamwa n'abantu bagiye batandukanye, aho umuco wagendaga uvuga ko igitsina gore kitagomba kuzikama, ariko ibi ngibi ntago byari byo, kuko hari n'imashini za kijyambere zaje noneho, zikama neza kandi mu buryo bwihuse.

Abahinzi bagenda basabwa kwita ku bimera byabo ndetse no ku bihingwa, aha ngaha harimo: kubitera umuti, kubisasira, kubyuhira ndetse no gukora ibishoboka byose bakagenda babyicira mu gihe hari ibimera byimirijemo bidakenewe.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukunze gukoreshwa ahantu hagiye hatandukanye. Rero ntabwo twakwirengagiza na gakondo, aho dukoresha amasuka mu kugenda duhinga imyaka yacu. Ibi na byo byongera umusaruro.

Ubuhinzi bukorerwa mu bishanga bukunze guteza imbere abantu. Aho usanga nk'igihingwa bita umuceri gikunze guhera cyane kuko haba hari amazi menshi ndetse hari n'ubutaka bw'ibumba, aho ariho icyo kimera gikunze guterwamo.

Ubuyobozi bwacu bukomeje gufasha abahinzi n'aborozi mu kubona ibiryo by'amatungo. Aha ngaho usanga hari nk'imbuga nini, abantu bagenda bakahira ubwatsi, bakabona ibyo bahereza amatungo yabo.

Ntabwo twakwingagiza ko abahinzi bagira imvune mu gihe cyo gusarura, Leta rero yagiye yiga zimwe mu ngamba zikomeye nko guha abashoramari ibikoresho bigiye bitandukanye mu gufasha abahinzi.

Nta kintu gishimisha umuhinzi nko kubona ibikorwa bye bitera imbere, ariko nawe we hari ikintu aba asabwa kugira ngo ibyo ngibyo bibashe kugerwaho, harimo nko kumenya kwita ku bihingwa bye kubyuhira no gushyiramo ifumbire kugira ngo bikure neza.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro. Ibi ngibi rero bituma abantu bose bakomeza ku bwitabira kandi bakiteza imbere ndetse n'umusaruro ku gihugu ukarushaho kugenda uzamuka.

Abahinzi bagenda bafashwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, harimo guhabwa ifumbire mvaruganda ndetse bakagirirwa n'izere cyo kugabanyirizwa inguzanyo byerekeranye n'ubuhinzi, ibi ngibi bituma rero kino gikorwa kigenda gitera imbere uko bukeye n'uko bwije.

Abahinzi n'aborozi bakunze kugira ikibazo cy'imihanda cyo kugemura imyaka kuko hari aho usanga nko mu bice by'icyaro, leta itarahashyira ibikorwaremezo bihagije kandi bikwiye abaturage baba aho hantu.

Mu gice cy'umutara niho hakunze gukorerwa ubuhinzi n'ubworozi, aha ngaha navuga nk'inka kuko niho zikunze kuboneka cyane ,abantu rero usanga barashyize umwete cyane muri ibi bikorwa ,mu rwego rwo kwiteza imbere.

Leta igomba gushaka uburyo ishyiraho ingamba ziboneye zo kunganira umuhinzi mu gihe cy'isarura, kuko abenshi bagorwa n'imihanda cyangwa se n'imyaka yabo ikarinda kwangirikira mu mirima babuze uburyo bayikuramo.

Abahinzi n'aborozi bakunze gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kwita ku bihingwa byabo, ibi ngibi bituma umusaruro ugenda wiyongera, ndetse abantu bakarushaho kubaho neza no gufatanya muri byose, ibi kandi bizamura n'umusaruro mbumbe w'igihugu.

Ntabwo twakirengagiza igihingwa cy'umuceri gikunze gukorerwa mu gishanga kuko ni ho hakunze kuboneka amazi menshi ndetse n'ubutaka bw'ibumba. Ibi ngibi rero bituma kino gihingwa gikura neza kandi kigatanga umusaruro.

Hari igikorwa kiza gikunze gukorwa n'Abanyarwanda mu mpera z'ukwezi twita Umuganda rusange, iki gikorwa iyo kirangiye abantu baricara bakaganira, abatumvikana bakabasha kugwa ndetse hakigirwamo n'izindi ngamba z'iterambere.

Ibimera bigiye bitandukanye na byo biri mu bidukikije. Ntabwo bigomba gutwikwa, aha ngaha ndavuga nk'ibyatsi kuko iyo bikorewe ibikorwa nk'ibi ngibi, hari ibintu bigenda bigabanuka ndetse n'abantu ntibabashe kubona umwuka bahumeka.

Ibimera biba biteye imbere y'inyubako zacu na byo tugomba kubyitaho kandi tukabibungabunga, aha ngaha rero hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye kandi zihamye mu rwego rwo gukomeza gushyigikira umuco wo kubungabunga ibyagezweho.

Ibikorwaremezo nk'imihanda byagiye bigezwa ahantu hatandukanye mu Rwanda hari n'aho bitakekwagwa ko iyo mihanda yahashyirwa ariko bitewe na gahunda nziza leta yashyizeho yo kwegereza ibikorwa remezo abaturage byarakozwe.

Ahantu hari umurambi cyangwa se umukenke. Hagomba kuba hari ibyatsi bimeze neza kandi hanaterereye koko. Aha ngaha twahasanga nko mu gice k'Iburasirazuba aho twita za Kayonza na Rwamagana, ni ho dukunze kubona imirambi.

Igihingwa cy'umuceri gikunze kuboneka mu gishanga, aha ngaha rero niyo mpamvu leta yagiye ishyiraho ingamba zo kubibungabunga kugira ngo n'iki gihingwa kibashe gutezwa imbere kandi kigire umusaruro uhagije kihwanye no gusagurira amasoko yo hanze.

Ibimera bigiye bitandukanye, natangamo nk'imboga n'imbuto. Ibi ngibi rero byaragaragaye cyane mu Rwanda, aho buri muturage wese yagiye ashishikarira mu gukora ubu buhinzi.

Igihingwa cy'imyumbati gikunze gukorwa mu bice by'icyaro, abantu rero bamaze kugenda basobanukirwa neza iby'ubu buhinzi, ntabwo twasigaye inyuma rero mu ntara zose zigiye zitandukanye, aha ndavuga mu rubyiruko.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutezwa imbere cyane. Aha ngaha tubusanga mu masoko amwe n'amwe y'igihugu ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Ibi rero bizatuma twese dushishikarira kubukora kandi tukabushishikariza n'abatoya.

Imbuto zigiye zitandukanye zishyirwa ku isoko. Maze ababukora bakabona amafaranga. Ndavuga ubuhinzi. Ibi ngibi rero byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ndetse n'imirire mibi yahashyijwe ku rwego rwo hejuru cyane.

Ibimera bigomba kwitabwaho cyane nk'ibindi bihingwa. Hari aho dukunze kubona nk'imyumbati bamwe bagenda bakonesha ndetse ibi ibiti ntibibashe gukura neza ngo bitange umusaruro uba witezwe.

Ibihingwa biba bigomba guterwa ku murongo kandi mu buryo bwiza buboneye. Ibingibi bituma umusaruro wiyongera ndetse n'abahinzi bakarushaho kwiga uburyo bushyashya bugezweho bwo gukoresha mu buhinzi.

Kugira ngo imyumbati ibashe gukura neza, ni uko habanza guterwa intabire maze bakagenda bavunagura ibiti bashyiramo. Ibi ngibi bituma ikura neza kandi igatanga umusaruro uhagije.

Ibihingwa ndetse n'ibimera n'ibintu bidukikije kandi bidufatiye runini cyane harimo ibivamo ibiryo by'amatungo, ibyo turya, imiti y'amatungo, ndetse n'iyacu ntabwo rero tugomba kubyangiza.

Ibice bigiye bitandukanye by'Igihugu bikunze kuba birimo ibikorwa by'ubuhinzi aho bamwe batozwa gukora amaterasi y'indinganire mu rwego rwo guhangana n'ibiza cyane cyane nk'isuri.

Amashyamba n'ibimera ni ibidukikije. Biba bigomba gufatwa neza tukirinda kubitwika cyangwa se kubirandaguza. Ibi bikorwa rero, bituma amashyamba atamera neza habaho hagomba gushyirwaho ingamba ndetse n'ibihano ku babikoze.

Zimwe mu nshingano dufite harimo kwita ku bimera, ntabwo rero tugomba kwicara ngo dutere agati mu ryinyo tubone ibyangirika, leta niyo mpamvu igomba gushyiraho ingamba zikarishye ndetse zinahana abantu bangiza cyangwa se batamenya kubungabunga neza ibidukikije.

Imiti yagenewe amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hizewe ariko si ibyo gusa harimo n'imbuto zimwe na zimwe, zigenda ziza mu bicupa mu gihe zifashishwa mu guhinga ndetse no kugenda zongera umusaruro, aho biri ngombwa.

Ubuhinzi bw'urutoki bukunze gukorwa mu bice byo mu cyaro, ibi ngibi bituma abahinzi babukora biteza imbere kandi bagakemura n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo nko kwishyurira abana amashuri.

Hari ibimera bakunze kwita amareke, aho bikoreshwa mu buvuzi bw'amatwi. Abantu rero ntabwo baramenya neza akamaro kabyo kuko hari aho usanga bitaboneka cyangwa se n'ababifite ntibabyiteho uko bikwiye.

Ahantu hari umurambi haba hagomba kwitabwaho kandi hagahingwa. Harimo abantu benshi rero bagenda bayagira inzuri z'amatungo, aho kugira ngo batekereze ikindi gikorwa cy'iterambere bahashyira, kikababyarira inyungu.

Ubuhinzi bw'urutoki bukunze gukorwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ibingibi rero bituma umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongera, abantu bakabasha gutera imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu cyabo muri rusange.

Ibiribwa bihabwa abana bigomba kuba bifite isuku kandi bimeze neza, ntabwo rero tugomba kwibagirwa ko isuku ari isoko y'ubuzima, umuntu wese ashishikarirwa iki gikorwa kandi akabikora nk'inshingano.

Ubuhinzi bw'ibigori bukunze gukorerwa ku buso bunini cyane kuko iyo bimaze kwera bitanga imbuto ishobora kubikwa igihe kirekire kuko ntabwo impugu zapfa guhangara iyi mbuto. Si ibyo gusa kuko n'ibishishwa byabyo bikunze kuvamo amababi meza yo gusasiza insina cyangwa se iyo hakozwe nk'ubundi buhinzi bw'inyanya.

Amashyamba n'ibimera ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu kuko tuvanamo imiti y'amatungo, ibiribwa byayo ndetse harimo n'imwe n'imwe mu miti ikoreshwa mu bitaro kwa muganga iva mu bimera.

Amashyamba ari mu bidukikije. Ntabwo twakirengagiza akamaro kayo. Ibi ngibi rero bituma igihugu gikomeza gushyiraho ingamba zikomeye mu rwego rwo kurwanya abayatwika n'abayangiza.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bidukikije, ntabwo tugomba kuyonona cyangwa se ngo tuhateme uko twishakiye, ibi ngibi rero bituma dukomeza kugenda twiteza imbere iyo twubahirije gahunda zo kubungabunga ibidukikije ndetse na yo ubwayo arimo.

Urubyiruko burya n'imbaraga z'igihugu, ntabwo rero tugomba kwirengagiza akamaro rufite ndetse n'inshingano zo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, ibingibi rero bigomba gushyigikirwa kandi bigashyirwamo imbaraga na leta.

Ibimera bituye ahantu hari agasi ntago bigomba kwangizwa. Ahubwo hagomba gushakirwa uburyo bwiza bwa nyabwo kandi buboneye mu gutuma na byo bimererwa neza ntitubyangize.

Ibiti bigiye biri mu mashyamba biba bigomba kubugwabungwa neza kandi bigashyirwamo imbaraga n'indi migabo n'imigambi leta iteganya. Ntabwo rero bigomba kugendera ngo byangizwe n'abantu babonetse abo aribo bose.

Ubutaka iyo buri ku musozi ntabwo buba bwizewe neza, haba hagomba gushyirwaho ingamba rero zikarishye zo kububungabunga nko kuhatera ibiti kugira ngo mu gihe cy'imvura nyinshi cyangwa se hadutse nk'icyorezo cy'isuri, kitaza kigatembana ubwo butaka.

Amashyamba ni ibidukikije ndetse bikaba n'ingo z'amatungo cyane cyane ay'inyagasozi, tuba tugomba rero kwirinda kuyatwika kuko niyo adufatiye runini mu bice byacu by'umubiri kuko harimo nk'imiti dukenera kandi ikatuvura indwara.

Imigezi dufite mu gihugu, hari iyo tutaramenya neza amasoko yayo ariko ibi ngibi ntibyatuma itabungwabungwa neza cyangwa se ngo twirengagize akamaro ifitiye imbaga nyamwinshi mu Rwanda.

Amashyamba ni ibidukikije, tuba tugomba kuyabungabunga tukayafata neza ndetse tukanayitaho, ibi ngibi bizatuma twiteza imbere ndetse no gusigasira ibyagezweho no mu gihe kizaza.

Abahinzi bagiye bahabwa amahirwe menshi nko kugenda bongererwa ifumbire y'imvaruganda, abadafite ubushobozi bagahabwa inguzanyo bakabasha kuyigura, ibi byatumye ubuhinzi buzamuka cyane bugera ku yindi ntera.

Mu misozi miremire hakunze gucibwamo amatarasi y'indinganire. Ibi bikorwa kugira ngo hirindwe ko ubutaka bwaba bwatembanwa n'amazi menshi cyangwa se bube bwatembanwa n'isuri mu gihe haguye imvura nyinshi.

Ibiti binini kandi by'inganzamarumbo bikunze kuboneka ahantu hagiye hatandukanye nko mu mapariki, ariko hari n'ahandi hantu ushobora kubisanga bityo rero tugomba kumenya kubibungabunga no kubyitaho.

Amashyamba y'inzitane ntaba agomba kwangizwa, kuko hakunze kuba harimo nk'inyamaswa ariho zituriye, kandi igihe iyo kigeze ziragenda zigakusanywa ,zigashyirwa mu mapariki ahabugenewe, ni byiza rero kumenya kubungabunga ibintu bidukikije.

Ibiti ni ibintu bidukikije kandi by'ingirakamaro, tugomba kubifata neza tukabibungabunga kandi tukabicungira umutekano kuko harimo abantu benshi batarasobanukirwa n'akamaro kabyo, turasabwa rero no kugenda dukora ubukangurambaga aho dutuye.

Amashyamba n'ibidukikije. Iyo yitaweho neza akunze gutanga umusaruro kuko niho dukura ibicanywa, ibiryo by'amatungo ndetse imiti imwe n'imwe igenda iva mu mashami y'amashyamba.

Iyo abantu bari kugenda bishimira kubona ibiti bigiye bitandukanye by'amoko, ibi ngibi rero bituma imbaraga zishyirwa mu bidukikije ziyongera ndetse hagafatwa n'ingamba zigiye zikarishye ku bantu babyangiza.

Ubutaka iyo budafashwe neza nta musaruro butanga, Ibi ngibi rero biba bigomba kwitabwaho n'ingeri zigiye zitandukanye. Tukamenya kububungabunga, kubufumbira no kwirinda gukoreramo ibindi bikorwa bidafite aho bihuriye n'ubuhinzi.

Ibiti ni ibidukikije kandi bifitiye akamaro imbaga nyamwinshi kuko bikunze kuvamo imbaho, amakara, ndetse bikavamo n'impapuro, ibi ngbi rero bituma tugomba kubifata neza kandi tukirinda kubitema.

Ibimera biri mu moko atandukanye. Harimo ibiti birebire, aho ibgibi bibamo imbaho zo gucana zikavamo impapuro ndetse yewe zigatanga n'imiti ku biribwa bigiye bitandukanye, harimo inyamaswa n'abantu.

Imisozi n'ibibaya ni bimwe bigize Igihugu cyacu kuko bazi ko ahantu henshi mu Rwanda hakunze kuba hari imisozi niyo mpamvu barwita urw'imisozi Igihumb. Ibi rero byatumye ba mukerarugendo bagira amatsiko, bigatuma barusura cyane.

Ahantu hagiye hatandukanye hakunze kuba hari imisozi iri mu Rwanda. Ahangaha rero, hari aho tubona nk'ibirunga ndetse n'ibiyaga ibidukikije rero bigomba kuba birimo ibi byose ndetse n'urusobe rw'ibindi binyabuzima.

Ubutaka bwo guhingwaho buba bugomba gutandukana n'ubwo kororeraho, abantu benshi rero bakunze kuvuga ko ubutaka busa nkubwijimye aribwo bwiza kandi butanga umusaruro iyo bushyizwemowo imyaka.

Ibimera ni ibintu bidukikije kandi bidufitiye akamaro, dukunze rero kubikerensa iyo tubibonye nk'ahantu ntidutekereze akamaro kabyo ndetse n'agaciro bidufitiye, ibi ngibi rero bigomba kubahwa kandi bigakurikizwa na buri wese.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze kuba biri ahantu hihishe cyangwa se hagaragara, ntabwo rero dushobora kugenda dumenya ngo amoko ya buri kimera ni ayahe, icya mbere tugomba kumenya n'ukubibunga no kubifata neza.

Amashyamba agiye atandukanye akomeje kubungabungwa cyane kuko byamaze kugaragara ko hari inyamaswa zimwe na zimwe zijya gushakwa hanze nyamara mu Rwanda tuzifitiye, ibi ngibi rero bituma Leta ishyiraho ingamba zikarishye zo kubungabunga amashyamba.

Ibiti biba bigomba guterwa ahantu hahanamye nko ku misozi mu rwego rwo gushyigikira ubutaka kugira ngo budatebanwa n'isuri cyangwa se ibindi biza. Ibi ngibi bituma habungabungwa neza ibidukikije ndetse n'abantu bakabona aho bahinga.

Abantu iyo bari kugendera mu muhanda uba ubona bisa neza rwose cyanecyane iyo barimo baragenda bitegereza ibikorwa remezo ndetse n'ibibakikije harimo n'amashyamba. Ibi ngibi bituma abantu benshi bakunze gutekereza ko ibikorwa remezo bigiye bifite akamaro kanini cyane ariko nyamara si ibyo gusa ntihagomba kwirengagizwa n'agaciro k'amashyamba mu gihugu cyacu.

Uturima tw'igikoni dukunze kutubona mu ngo zacu, abantu benshi rero batazi ibyo ari byo bakunze kwibaza ibikorerwamo, ntabwo bazi ko dushobora no guhingamo n'imbuto, imboga ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Imboga zigiye zihingwa mu rugo zikunze kugira umusaruro cyane. Nk'abantu bakora ubu buhinzi usanga barateye uturima tw'igikoni batwitayeho. Kandi ahantu akarima k'igikoni kandi ntabwo hajya hakunze kugaragara imirire mibi ndetse n'izindi ndwara zituruka kuri iyo mirire mibi nka Bwaki.

Ubuhinzi bw'indabo bukomeje kugenda bushyirwamo imbaraga na Leta y'u Rwanda kuko hari amashami amwe n'amwe yagiye yongerwa muri kaminuza kugira ngo abantu bagende babyige kandi banabiminuzemo, bazagende babishishikarize n'abandi.

Ubuhinzi bw'inanasi burakorwa cyane, abantu rero baba bagomba kubwitaho yaba abahinzi cyangwa se n'abatari bo, kuko twese tuzi akamaro k'ibimera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'inanasi bukomeje kugenda butezwa imbere, akenshi iyo ugiye mu maresitora asa nk'akomeye, bakunze kuvuga ko ugomba kuyibashyiriraho nyuma y'igaburo baba bamaze gufata, ibi ngibi bituma abahinzi na bo bagira izindi mbaraga.

Ubuhinzi bw'indabo bwagiye bushyirwamo imbaraga na leta cyane. Abantu babukora rero bagiye bahabwa inyunganirabushobozi, aho bahabwa inguzanyo mu rwego rwo gukomeza kubashyigikira ndetse no kubatera umurava. Ibingibi bizatuma ubuhinzi bukomeza kugenda butezwa imbere mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Ubuhinzi bw'inyanya bwagiye butera imbere cyane uko imyaka igenda ishira n'indi igataha, ibi ngibi bituma ababukura babona amafaranga, bakabaho neza bakagenda bakemura ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Bimwe mu bigo by'amashuri ndetse n'inyubako za leta, hakunze kugaragara uturima tw'igikoni. Ibi ngibi bituma imirire mibi irwanywa ndetse n'abana ntibagire ibibazo bigiye bitandukanye by'imirire mibi nka za Bwaki.

Iyo umuhinzi arimo arasarura amacunga aba anezerewe cyane. Ibi ngibi rero bituma abona izindi mbaraga zo kuzakora ibindi bikorwa by'ubuhinzi, kuko abenshi ntabwo bakora igikorwa kimwe gusa usanga baramaze gusobanukirwa no gukora ibintu byinshi kandi mu gihe gito.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze kuvamo imbuto ziryoha. Ntabwo twakwingagiza akamaro kazo kuko inyinshi zivamo umutobe, inyinshi zivamo n'inzoga, harimo n'abenshi bazikoresha mu buvuzi, bumwe na bumwe.

lbimera dufite hagiye harimo amoko atandukanye, aha ngaha navuga nk'indabo ,aho usanga ba mukerarugendo bakunda kuza kureba ubwiza bwazo .Niyo mpamvu leta igomba gushyiramo imbaraga mu buhinzi ,ndetse no gukangurira abantu mu kubukora no kubwitabira.

Amashu ni igihingwa cyiza gikunze gukorerwa ahantu henshi hatandukanye, harimo abayahinga mu bishanga, abandi ku gasozi harimo n'abayashyira mu rugo buri wese biterwa n'ubushake bwe, kuko ahantu hose wayahinga yira neza mu gihe yitaweho bihagije.

Ubuhinzi bw'indabo bukunze gufasha abantu bagiye batandukanye. Leta yagiye ubwigisha mu mashuri makuru na za kaminuza, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere iki gikorwa. Ntabwo rero twakwirengagiza akamaro gifitiye igihugu.

Amasoko amwe n'amwe agiye afite ibicuruzwa bigiye bitandukanye bikomoka ku buhinzi nk'inyanya. Abantu rero benshi bagiye basobanukirwa n'ibyiza byo gutera imbuto ndetse no kunoza ubuhinzi bwa nyabwo kandi bukozwe mu buryo bwa kijyambere.

Kugira ngo inyanya zikure bisaba ibintu byinshi cyane harimo kuzivomerera, kuzitera umuti wica udukoko dushobora kwangiza izo mbuto mu gihe zikiri ibitombwe ndetse no gukomeza kuziyitaho, ibi ngibi rero ni ingenzi cyane.

Ubuhinzi bunoze kandi bwa kinyamwuga bugomba kuba bufite ibintu bigiye bishamikiyeho. Harimo nko gushyiramo imbaraga mu kuhira ndetse no kugenda bicira bimwe mu bihingwa bigiye bidakenewe cyane bigenda byimeza.

Harimo abahinzi bamwe na bamwe bamaze gusobanukirwa n'akamaro ko kurembika imbuto, ibi ngibi bituma zigenda zikura neza kandi zagezwa no mu butaka zikarushaho gushisha ntizigende ngo zitinde gukura.

Ubuhinzi bw'inanasi bukunze kugaragara mu gihe cy'impeshyi ariko rero abantu ntabwo abenshi bawufiteho amakuru ndetse ntibarashishikarizwa no kubukora cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa, leta rero irasabwa gushyiramo imbaraga.

Imboga n'imbuto zifite akamaro gakomeye mu mubiri w'umuntu, nta muntu rero ugomba kubikerensa cyangwa se ngo abipinge. Harimo abantu benshi batarasobanukirwa neza n'akamaro k'imbuto mu mubiri wabyo ni yo mpamvu hagomba gushyirwaho abajyanama b'ubuzima bahagije muri buri Mudugudu.

Ubuhinzi iyo bushyizwemo imbaraga butanga umusaruro. Aha ngaha rero hagomba kuba hariho gahunda y'imashini zifashishwa mu kuhira, mu rwego rwo guteza imbere abahinzi n'aborozi muri rusange.

Ubuhinzi bwiza kandi bwa kijyambere, bukunze gufasha abantu benshi cyane, ibi ngibi bituma abantu bakomeza gushyiramo imbaraga, kandi bagahabwa n'izindi nyongeramusaruro zibafasha mu bihingwa byabo ,ntabwo twakwirengagiza akamaro ubuhinzi bufitiye igihugu cyacu.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza butanga umusaruro ,ahenshi rero mu gihugu hagenda hashyirwa ibikorwa remezo mu rwego rwo kubwunganira, kandi bigi bitanga umusaruro ndetse n'abahinzi bakagenda biteza imbere.

Bimwe mu bidukikije harimo ibimera ariko kugira ngo bikore neza cyangwa se bikomeze bitugirire umusaruro, ni uko tumenya kubifata neza kandi tukabibungabunga. Ibi bizatuma umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongera.

Uburyo bwiza kandi bugezweho harimo kuhira imyaka, ibi ngibi bituma umusaruro ugenda uzamuka cyane.

Leta yashyizeho ingamba nshyashya mu buhinzi nko kuhira hifashishijwe imashini za kizungu, ibi ngibi bituma umusaruro wiyongera kandi n'abawukora bakarushaho kugira imibereho myiza.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere, ni ukwita ku bimera tubyuhira cyane cyane nko mu gihe k'impeshyi, ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera kandi n'abantu bagakomeza gutera imbere.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kijyambere butanga umusaruro kuri bene bwo ndetse no ku gihugu muri rusange. Abashomeri bagenda babona akazi, urubyiruko rukiteza imbere ndetse n'igihugu kikabona inyungu nyinshi.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro ,aha ngaha twavuga nk'ibigori .Aho ibi bihingwa bikunze kuba bikorwa neza, mu duce cyane cyane tw'iburasirazuba n'amajyaruguru ,kuko niho hakunze kuba hari amasambu manini ,yabasha gukorerwamo ubu buhinzi.

Hari uburyo bwinshi bugenda bukoreshwa n'abahinzi mu kurinda imyaka yabo ikiri mitoya. Kuko harimo nk'inyamaswa cyane cyane nk'inyoni, izi zikajya zitangira kugenda zirya amababi y'ibihingwa, ntibibe byakura neza.

Igikorwa cyo kuhira ibimera cyatangiye gukorwa mu bice bi bitandukanye by'igihugu cyanecyane mu gihe cy'impeshyi kuko imvura ntabwo iba iboneka cyangwa se ngo amazi ahagije ajye mu bimera maze nabyo bibashe gukura.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bukunze gukorerwa ahantu hari amazi cyangwa se yaba adahari hakazanwa imashini zifashishwa mu kuhira ibimera, mu rwego rwo kubirinda kumagana igihe cy'impeshyi cyangwa se hari kuva izuba ryinshi.

Uburyo bwiza bwo kuhira bwagiye bwigishwa n'abantu bagiye batandukanye harimo abahabwaga amahugurwa y'amezi atandatu ariko harimo n'ababyiga bakabiminuzamo aho usanga rero abantu benshi bagenda bahuza imbaraga mu gushyigikira ubuhinzi.

Kugira ngo imyaka yacu imere neza, harimo kuyuhira no kuyitaho. Ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera, tukihaza mu biribwa ndetse tukaza no gusagurira n'amasoko ndetse n'amahanga akagira icyo abona.

Leta ikomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, aho usanga abantu baturiye amazi magari nk'ibiyaga cyangwa imigezi, baherezwa gahunda nziza yo kugenda bamenya kuhira imyaka yabo.

Ikimera kugira ngo gikure neza kandi gitange umusaruro ni uko tucyuhira, ibi ngibi rero ntabwo bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri bireba buri wese ufite inshingano mu bidukikije kandi ubu byumvikana ko ari umwe muri twe twese.

Leta ifite uburyo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga mu buhinzi. Aha ngaha dukunze kubona nk'imashini zuhira, cyangwa se zimwe zikoreshwa mu guhinga twumvaga ari nk'inzozi kuko twakundaga kubibona mu bihugu byateye imbere, ariko natwe ubu byatugejejweho.

Kuhira ni ibintu bikorwa kandi bishyirwamo imbaraga na Leta, yagiye rero ishyiramo ubundi buryo butandukanye kandi bugezweho mu gushishikariza abahinzi guhinga bya kijyambere, tugomba rero gukora ubukangurambaga bukomeye mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubuhinzi.

Amazi, ibiyaga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni ibikorwa nyaburanga. Iyo bikozwe neza kandi bikabungwabungwa, bitanga umusaruro kuko niho amafi akunze kowororokera ndetse n'ibindi binyabuzima byose byo mu mazi.

Uburyo bwiza bwo guteza imbere ubuhinzi harimo kuhira, cyanecyane mu gihe cy'impeshyi kuko ibimera bikenera amazi kugira ngo bikore neza, ibi ngibi rero iyo bidakozwe neza nta musaruro uhagije uboneka.

Ibikorwa bimwe na bimwe na bimwe tugenda dukora nko kuhira bituma tugenda tubona umusaruro utubutse. Ibimera byacu bikura neza bishishe kandi bigatanga n'umusaruro mwinshi. Ni byiza rero gukoresha uburyo bwa kijyambere bugezweho mu kuhira.

Ubuhinzi bukomeje kugenda bushyirirwamo imbaraga mu bintu bigiye bitandukanye harimo nko kugenda bayoborayo mazi, ibikorwaremezo runaka, hakaba n'abagiye batozwa mu buryo bwo guhinga ku matarasi y'indinganire, ibi byose ni ibikorwa bigamije kuzamura ubuhinzi.

Abakora ubuhinzi bw'ibigori, bakunze kwifashisha amapompo buhira. Ibi ngibi rero byagiye bizamura umusaruro w'igihugu ndetse n'ibimera bigakura neza kandi bishishe. Ibi rwose bigaragara ko umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutse.

kugira ngo ibimera bikure neza kandi bimererwe neza harimo kubyuhira no kubyitaho, ntabwo rero twabura kwirengagiza ko iyo ibi bidakozwe neza umusaruro ugenda ugatuba ntitubone ibyo twifuza.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwo kuhira, harimo gukoresha amatiyo n'amapombo arekura amazi cyane, ibi ngibi bituma umusaruro w'ubuhinzi wiyongera, umusaruro ugakomeza kugenda uba mwinshi ku bahinzi bagiye batandukanye.

Abahinzi bagiye bigishwa kuhira bakoresheje imashini za kijyambere. Ibi ngibi byatumye umusaruro w'ubuhinzi wiyongera ndetse ikibazo cy'inzara kigenda kirwanywa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Ibikorwa byo kuhira ni ibintu bikorwa mu gihe cy'impeshyi kuko nta mvura iba irimo iraboneka, ibi ngibi rero byagiye bicengezwa mu bahinzi n'aborozi bakora mu gice gikunze kuburamo amazi.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi haje uburyo bushyashya kandi bugezweho bwo kuhira. Ibihugu by'amahanga rero usanga byarateye imbere kuko bo bamaze gusobanukirwa n'ubu buryo ariko natwe ntarirarenga.

Imirambi ikunze kuba iriho ibihingwa n'ibimera bigiye bitandukanye. Ibingibi bituma u Rwanda rushishikariza abantu guca amatarasi y'indinganire mu rwego rwo gufata neza ubutaka ndetse no kubusigasira.

Ahantu hari ubutaka bw'agasi, ntabwo dukunze kuhitondera cyane ariko iyo urebye neza, haba hari ibyago byinshi byo kuba bwagirira nabi ubuzima bw'abantu. Tugomba kubyitwaramo neza kandi tukahitondera.

Kororera mu gasozi ntabwo Leta ubu buryo ibushyigikira kuko igenda ishishikariza abantu kubaka ibiraro mu ngo zabo, mu rwego rwo kuba barinda amatungo ngo agende yangize imyaka y'abaturage.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza butanga umusaruro. Hari ubutaka buba buri ku gasozi tuba tugomba kububungabunga tukabufata neza, tukarwanya isuri duca imiringoti n'amaterasi y'indinganire.

Ibimera bidufatiye runini mu buzima bwacu bivamo ibiryo by'amatungo, imiti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, byagiye bigaragara rero mu bushakashatsi bwakoze ko iyo bifashwe neza n'ubuzima bw'abaturage buzamuka.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze kuba bigaragara ahantu hitaruye. Aha ngaha rero tugomba kwirinda kubitwika cyangwa se kugenda ngo dushoremo amatungo mu buryo bw'akajagari.

Amashyamba ni bimwe mu bintu bidukikije kandi by'ingirakamaro, ibi ngibi bituma igihugu kigenda gishyiraho ingamba n'izindi ngufu mu rwego rwo gukomeza kuyabungabunga kandi byamaze kugaragara ko iyo bikozwe neza bitanga umusaruro.

Ibiyaga n'andi mazi magari ari mu bidukikije. Harimo inyamaswa zororokeramo ndetse n'ibindi binyabuzima twavugamo nk'ingona, amafi manini. Aho iyo afashwe neza na yo atanga umusaruro.

U Rwanda bakunze kurwita urw'imisozi igihumbi, bitewe n'imisozi, ibibaya ndetse n'ibirunga rufite. Ibi ngibi rero bitera ba mukerarugendo amatsiko, bakaza kurusura.

Gutura ahantu heza kandi ku mudugudu ni inshingano za buri muntu wese, ntabwo ari byiza kugenda kuba munsi y'umusozi kuko habashobora nko kugwa nk'imvura nyinshi ikaba yazi igahitana ibikorwa remezo ndetse idasize n'ubuzima bw'abaturage.

Ahantu hari umurambi hakunze kuba hagaragara neza kandi hasa neza, hacukura amaterasi y'indinganire murwego rwo kugenda harwanywa isuri ndetse n'ubutaka ntibutebanwe n'amazi mu gihe ibyo bishobora kuba byabayeho.

Urutoki ni igihingwa gikunze kugaragara mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Harimo abantu rero bamwe na bamwe babikora batabishyizeho umwete cyangwa se ugasanga habayemo gucika intege bitewe no kudasobanukirwa.

Ahantu rero hagaragara neza nk'umurambi cyangwa se umusozi ,haba hagomba guterwa ibiti bihagije, mu rwego rwo kurwanya no gukumira isuri, kuko imvura iramutse iguye ari nyinshi ishobora kuza igatembana ubutaka, maze ugasanga irabwangije ntibube bugize icyo bumaze.

Ahantu hari imisozi n'ibibaya, hakunze gucibwa amatarasi y'indinganire. Ibi ngibi bituma abantu bahakorera ubuhinzi, babona umusaruro uhagije ariko tugomba gutekereza n'ikibazo cy'isuri cyangwa se amazi menshi ashobora kuza akaba yaduhitanira ibihingwa, mu gihe hatakozwe ibikorwa nk'ibyo ngibi byo guca amaterarasi y'indinganire.

Ubuhinzi bwashyizwemo imbaraga na leta y'u Rwanda, aho buri wese asigaye abwisangamo yaba ubukora n'utabukora, bose ugasanga bashishikariye kumenya uburyo buri kugenda mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Ibirunga bikunze kuruka mu gihe k'Itumba, ariko rero tugomba guhora twiteguye kuko na byo bigiye birimo amoko atandukanye, harimo ibigikora bishobora kuruka isaha n'isaha, hakabamo n'ibyitwa ko bisinziriye, ni yo mpamvu tugomba kuba maso.

lbiyaga ndetse n'ibirunga bikunze kuboneka mu gihugu cyacu. Akenshi rero nk'ahantu hari ikirwa, ntabwo ibikorwa remezo kuhagera biba byoroshye. Niyo mpamvu leta igenda ishishikariza abantu kugerageza gutura ku mudugudu.

Guhinga bya kijyambere bijyana n'igihe ariko ntihagomba kwirengagizwa n'uburyo gakondo. Ibi ngibi rero iyo bihujwe kandi bigakorwa neza, bitanga umusaruro uhamye. Yaba ku bahinzi, ku gihugu ndetse n'Isi muri rusange.

Ibimera iyo bitewe ku murongo bitanga umusaruro nta kabuza. Abantu benshi rero bakunze guhinga mu kavuyo cyangwa se ikintu kimeze nk'akajagari, ntibakurikize uburyo bwa kijyambere bugezweho kandi byanga byakunda abakangurambaga b'ubuhinzi baba barabibatoje.

Ubworozi bw'ingurube bukunze gukorerwa ahantu heza cyane cyane nko mu giturage. Iyo rero tuzitayeho ziduhereza umusaruro utubutse kandi tukabona n'ifumbire yazo. Ibi ngibi rero bituma dushishikarizwa kuzorora kugira ngo tunikenure.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka bukunze gukorwa mu cyaro, ibi ngibi rero bituma abantu bava mu bukene ndetse bakarwanya n'ikibazo cy'inzara cyagiye cyugariza igihugu mu myaka myinshi yagiye ihita.

Ubworozi bw'inkoko bwagiye bushyirwamo imbaraga na Leta, ubu abantu benshi barabwitabira yaba abari mu mujyi, abatuye mu cyaro ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ibingibi rero nibikomeza gukorwa ikibazo cy'inzara kizakemuka burundu.

Ubworozi bw'inkoko iyo bukozwe neza butanga umusaruro. Nta muntu utakifuza kubona atera imbere ndetse ateza imbere n'abaturanyi be hamwe n'abana yibarutse. Ibi ngibi rero bituma leta ishyira imbaraga nyinshi mu bworozi bw'inkoko, igatanga inyongeramusaruro ndetse n'ibiribwa by'inkoko.

Inka kugira ngo ikure kandi itange umusaruro n'umukamo ni uko iba yagaburiwe ibyatsi bihagije kandi byinshi, ibi ngibi bituma n'umusaruro itanga wikuba inshuro nyinshi.

Ubworozi bw'amatungo nk'inkoko bukomeje gutezwa imbere mu gihugu. Ababukora rero usanga babayeho neza kandi nta kibazo bakunze kugira. Ibi ngibi rero bizamura umusaruro mbumbe w'igihugu.

Ubworozi bw'inkwavu buba bugomba gushyirwamo imbaraga cyane. Nta kintu kitafasha umuntu mu kwiteza imbere iyo gikozwe neza. Aha ngaha rero ntitugomba kugira icyo dukerensa cyane cyane mu matungo magufi.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka buteza imbere rubanda cyane. Ni yo mpamvu leta na yo yashyizeho imbaraga zigiye zitandukanye, aho yatangije na gahunda yitwa Gira inka Munyarwanda kandi ikaba yaragiye ikwirakwizwa mu gihugu hose.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, butanga umusaruro iyo bukozwe neza kandi ku kigero cyiza. abantu rero bashishikarizwa kubukora ndetse bagashyiramo n'umwete, uko bishoboka.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gufasha abantu cyane aho ababukora usanga baragiye biteza imbere mu bintu bigiye bitandukanye, aha ngaha harimo nko kugenda barwanya imirire mibi cyane cyane mu bana ndetse no kubasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka bukunze gukorerwa mu bice byo mu mutara. Ibi ngibi bituma abantu benshi bajya gusura aho hantu ngo bagende bagire ubumenyi bumwe na bumwe bahavoma, kandi babashe no kwiga ndetse bagende baniteza imbere bakurikije ibyo bahabonye.

Ubworozi bw'inka bukunze gukorerwa mu gice cy'Iburasirazuba aho twita mu Mutara, ntabwo twakwirengagiza rero ko ibi ngibi bituma umusaruro w'igihugu wiyongera kandi n'abantu bakava munsi y'umurongo w'ubukene.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere rubanda. Abantu bakuru usanga barahawe amazina menshi agiye atandukanye nk'ibyitegererezo, bayangamugayo ndetse n'andi agiye atandukanye mu rwego rwo kubashyigikira ndetse no kubatera umurava.

Inka z'Inyambo zikunze kuboneka mu majyepfo, aho twita i Nyanza mu rukari, ntabwo zipfa kuboneka ahantu hose kuko bitewe n'amateka Igihugu cyagiye gicamo, harimo izitarabashije kurokoka ngo zisigare mu bantu.

Ingurube zikunze kuba ziri mu moko atandukanye. Harimo izo twita iza kizungu ndetse n'iza kinyarwanda ariko zose akamaro kazo ni ugutanga ifumbire kuko abahinzi iyo bazifite, bituma umusaruro wiyongera.

Ubworozi bw'ihene bukomeje kugenda bushyirwamo imbaraga na Leta kandi bigaragara ko iyo bukozwe neza butanga umusaruro ndetse n'amafaranga, ibi ngibi byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi n'umunani, aho byagaragaye ko abahinzi ndetse n'aborozi bakora ubworozi bw'ihene biteje imbere cyane mu bice bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gukorwa mu cyaro ndetse no mu mujyi kuko ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umuntu ukora ubu bworozi, abona amafaranga ahagije yo gutunga umuryango we ndetse na we akagenda yikenura mu bibazo bimwe na bimwe.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, bwakomeje kugaragaza ko bufite akamaro muri rubanda. Nta muntu rero utakishimira igikorwa nk'iiki ngiki kuko iterambere ryakomeje kugenda rizamuka.

Ubworozi bw'amatungo magufi aha ngaha twavuga nk'ihene aho zikunze gutanga umusaruro. Ababikorera rero usanga bariteje imbere kandi babona amafaranga ahagije, ibi ngibi bituma igipimo cy'ubukene kigenda kigabanuka muri rubanda.

Hari imashini za kijyambere zazanwe mu Rwanda, zifasha abahinzi korora ndetse no kugaburira inyamaswa zabo, ndavuga izororerwa mu rugo rw'inkoko, ibingibi bituma umusaruro w'ibiva ku matungo wiyongera.

Ubworozi bw'inkoko bukunze guteza imbere ababukora, aha ngaha rero buri muntu wese ashishikarizwa kwitabira ndetse no gushyigikira uyu mwuga, ntabwo r bireba abantu bamwe bireba abantu bose muri rusange.

Ubworozi bw'inka bwagiye butezwa imbere cyane, ibi ngibi byatumye umusaruro w'Igihugu wiyongera kandi n'abantu babikora barushaho kugenda batera imbere, ibi ngibi bizatuma Igihugu gikomeza kwisanga mu murongo wo hejuru cyane.

Umukamo utubutse uturuka ku bintu bigiye bitandukanye, ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba gukora ni ukumenya kwita ku matungo, tukamenya ibiyatunga nk'ibyatsi ndetse no kuyadahira mu gihe amazi yabaye ikibazo.

Inka z'inyambo bakunze kuzibona i Nyanza aho twita Murukari, ibi ngibi bituma ba mukerarugendo baza kuhasura kandi n'abanyarwanda muri rusange batarahagera na bo bibatera amatsiko menshi.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gukorwa n'abantu bagiye batandukanye, ibingibi rero bituma abaturage benshi bava mu murongo w'ubukene ndetse n'Igihugu kikagenda gitera imbere, kuko burya kugira ngo abantu batere imbere ni uko nabo hari ibikorwa bagomba gukora cyane cyane nk'ubworozi.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje kugaragara ko buteza imbere abantu kandi butanga umusaruro, ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo, aho usanga zitanga ifumbire nyinshi kandi ihagije.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane, bukunze gukorerwa mu cyaro ndetse no mu mijyi ariko cyane cyane umusaruro wazo niwo ukunze kwibandwaho n'abantu bagiye batandukanye, ibi ngibi bituma abantu bose bashishikarira gukora ubu bworozi.

Amatungo magufi nk'ihene akunze kuboneka mu bice byo mu cyaro, aho usanga abantu bayorora kandi babona n'umusaruro uhagije. Ibi ngibi rero byatumye u Rwanda rushyiraho gahunda zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gushyigikira no gufasha aborozi.

Ubworozi bukozwe neza butanga umusaruro, aha ngaha twavuga nk'inka ndetse n'andi matungo agiye atandukanye, ibi byagiye bikorerwa ubushakashatsi aho byagaragaje ko abahinzi bafite inka babayeho neza.

Ubworozi bw'inka bukunze gukorwa cyane mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, leta rero igomba gushyiramo inyoroshyo ikabahereza inguzanyo kandi itabogoye, ibi ngibi bituma ubworozi butera imbere kandi n'abahinzi ubwabo bakagenda bazamurana hagati yabo.

Ubworozi bw'inka bukunze guteza imbere rubanda, leta aho yatangirije gahunda ya girinka munyarwanda yaragiye iracengera ubu mu mitwe y'abanyarwanda bose imaze kwishyiramo ko korora ari ikintu cyaguteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwakomeje kugenda bushyirwamo imbaraga. Aha ngaha navuga nk'inkoko. Ntabwo rero abantu benshi bari bataramenya akamaro kazo ariko aho byagiye byigishirizwa n'ubukangurambaga bugakorwa byatanze umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bwakomeje kugenda bugaragaza umusaruro mu bice bitandukanye, ababukora bariyongereye cyane, ndetse n'umusaruro ukomeza kugenda ugaragara hirya no hino ku isoko, aho nta muntu ukigira ikibazo cy'amagi.

Ubworozi bw'inka bukorwa mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu cyaro. Ibi ngibi rero bituma ababukora biteza imbere, bakabona ifumbire yo kwita ku myaka yabo, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko ifumbire y'imborera itanga umusaruro mwiza.

Inkoko zikunze kororoka cyane, niyo mpamvu usanga abantu bitabira n'ubworozi kuko ntabwo bugorana cyane kandi ntibusaba n'igishoro kinini. Ibi ngibi rero bituma buri wese ashishikarizwa kubugana kandi akagerageza no gusobanuza ibitagenda neza, maze agakomeza guteza imbere igihugu cyamubyaye.

Ibigori iyo bimaze kwera neza biragenda bikuma, ibi ngibi rero bituma umusaruro w'igihugu wiyongera kuko imbuto iraramba ntabwo ipfa kwangirika, rero iyo uyihungiye bihita biba byiza cyane kuko umuntu wese wahinze ibigori ntabwo ajya yifuza kubireka.

Uburyo bwiza kandi bwa kijyambere bugezweho ni bwo busigaye bukoreshwa mu buhinzi bw'u rwanda kuko hari inganda zimwe na zimwe zagiye zongererwa ubushobozi mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzihenge ibi bizatuma ikibazo cy'inzara gikemuka burundu.

Ibigori iyo bimaze kwera, biragenda bikanikwa, bikuma maze abantu bakagenda babihungur. Ibi ngibi rero bikorwa n'iyo mashini cyangwa se n'abantu ku giti cyabo, bakoresheje amaboko. Ibi ngibi rero byagiye bigaragara ko byagiye bifasha abantu benshi cyane.

Umuhinzi aba agomba guhabwa agaciro kuko twese kugira ngo tubeho, dukenera ibidutunga, ibimera ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibi ngibi rero ni ingenzi kandi tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka, mu kugira ngo tubigereho.

Ubuhinzi buba bugomba gutezwa imbere kandi bugashyirwamo imbaraga cyane, ntabwo dushobora kubaho tudafiteye ibidutunga kandi tuzi ko bituruka mu butaka, niyo mpamvu tugomba kububungabunga tukanabwitaho by'umwihariko.

Imbuto zigiye zitandukanye, zikunze gukoreshwa mu buhinzi. Aha ngaha rero, niyo mpamvu iyo umuhinzi abonye umusaruro wazo, agomba kuzifata neza, akazihungira, akarwanya impungu yivuye inyuma kuko biba byaramuvunnye kandi byaramusabye n'imbaraga.

Umusaruro w'imbuto unejeje cyane, abahinzi bakunze kwishima iyo bawubonye kandi nabo ugasanga bagize izindi mbaraga n'umwete mu gukomeza gukora neza ubuhinzi bwabo.

Abahinzi bakunze guhinga imbuto y'ibishyimbo aho itanga amafaranga menshi kandi no mu muco wa kinyarwanda indyo itagira ibishyimbo abantu bavuga ko iba ituzuye, ni byiza rero ko hashyirwamo imbaraga ndetse n'ingamba mu rwego rwo gukomeza gushyigikira iki gihingwa.

Imbuto ziba zigomba kwitabwaho kandi n'igihe zeze ntizangizwe. Ibi ngibi rero byagiye bigaragara ko byongera umusaruro ndetse n'umuhinzi agakomeza kugenda yiteza imbere mu bice bigiye bitandukanye.

Leta yagiye ishyiraho ingamba nyinshi zo guteza imbere ubuhinzi bw'imbuto, ibingibi rero byagiye byigaragaza cyane kuko ubu mu masoko menshi agiye atandukanye iyo ugiye kuzishaka ntabwo uzibura.

Ubworozi bw'inkoko bwakomeje kugenda bugaragazwa n'abashakashatsi, berekana ko ari ubworozi bwakorwa n'umuntu wese ushoboye cyangwa se n'udafite ubushobozi buhambaye cyane. Bigaragara ko yaba mu mujyi ndetse no mu cyaro hose bwahakorerwa.

Abaganga b'amatungo bakunze kuba barahawe amahugurwa ahagije kandi bafite n'ubumenyi bwisumbuyeho cyane. Ibi ngibi bituma ubworozi bugenda burushaho gutera imbere mu gihugu cyacu.

Abaganga bita ku matungo bagomba kuba bafite ubunararibonye ndetse n'ubumenyi buhagije bwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari umuntu wese ubonetse ushobora kuza ngo abikore bisaba ko umuntu agomba kuba yaratojwe kandi koko anabisobanukiwe.

Hari abaganga bagiye batoranywa muri buri murenge no mu kagari mu rwego rwo kwita ku nyamaswa, ibi ngibi rero biba bigomba gukorwa ahantu hose hashoboka kandi mu buryo bwa nyabwo bunaboneye.

Amatungo iyo agize ikibazo tuba tugomba kuyitaho, tukayavura cyangwa se tukanayakingira. Ibi ngibi bituma ubworozi butera imbere cyane ndetse n'igihugu kikabona umusaruro uturutse kuri ubwo bworozi.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro. Ntabwo rero tugomba kujenjeka cyangwa se ngo tudebeke tubiharira bamwe. Twese tugomba gushyiramo imbaraga nk'urubyiruko mu rwego rwo kubuteza imbere.

Amatungo amwe n'amwe agenda afashwa mu buryo butandukanye, harimo kuyahereza inkingo cyane cyane nk'imbwa kuko abenshi bavuga ko zikunze kugira ubundi busazi nko kuba zarya abantu mu gihe bitari ngombwa.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka bukomeje gukorwa cyane, hari inka z'inyambo zabonekaga kera ubu ngubu kuzibona biragoye cyane, iyo ushaka kuzireba bigusaba ko ujya i Nanza mu Rukari niho ukunze kuzibona kuko bo baracyakomeye ku muco wabo.

Guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bikorwa leta yagiye ishyiramo imbaraga kandi ishiramo n'ingengo y'imari ihagije, ibingibi rero byatumye abaturage benshi bava mu murongo w'ubukene babasha kwikenura.

Abahinzi n'aborozi bakunze kwegerezwa ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bakaganirizwa n'uburyo bwiza bunagezweho. Ibi ngibi byagiye bigaragara mu turere tumwe na tumwe tw'amajyepfo kuko wasangaga abantu benshi batozwa korora bya kijyambere.

Bimwe mu biryo by'amatungo, bikunze kuza biri mu tubido ariko umuntu atabizi neza ashobora kugira ngo ni ibyo kunywa, akaba yagenda akabinywa maze bikamwangiza cyangwa se bikaba byamuviramo n'urupfu, mu gihe afashe byinshi.

Ni byiza kubaga hari umuganga wabanje gupima iryo tungo, akareba ko nta bibazo rishobora guteza abantu bagiye kurifata. Abantu rero benshi bakunda inyama, ibi ntabwo wabitekerezaho. Usanga baba buzuye amerwe, bababwira guhamagara umuganga ugasanga bamwe ntibanabyumva neza.

Amatungo aba agomba gukingirwa indwara zigiye zitandukanye kandi akarindwa n'ibindi byorezo, ibi ngibi rero niyo mpamvu bigomba gukurikizwa hagashakwa abantu b'inzobere cyangwa se abandi bahabwa amahugurwa kugira ngo bite ku matungo.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, bwakomeje gushyirwamo imbaraga na Leta. Hari gahunda yari yaratangijwe yitwa gira inka munyarwanda, aho byagiye bifasha abantu benshi mu kwikura mu bukene.

Amatungo agomba kuba afite abaganga bayitaho kandi ibyo ngibyo bigakorwa mu gihe gitoya mu gihe ahuye n'ibibazo. Ni byiza rero kumenya kuyafata neza ndetse tukamenya no gutanga amakuru mu gihe hari igaragaje ibimenyetso bidasanzwe.

Inka z'inyambo ntabwo zikiboneka ahantu aho ariho hose. Dukunze kuzibona mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda, aho twita i Nyanza mu Rukari. Ibi ngibi roro byatumye abantu benshi bashaka kuhagera no kuhabona ndetse na ba mukerarugendo bakomeza kwiyongera bagana iyo nzira.

Inyamaswa ziba mu mapariki zikunze kuba ari nnini kandi ziteye ubwoba, ahavngaha rero leta igomba gushyiraho ingamba zo kubungabunga pariki mu rwego rwo gutuma izi inyamaswa zitamenya uruzitiro ngo zirusohokemo zizagirira nabi abaturage.

Mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ntabwo hakunze gukorwa isuku cyane ariko ibingibi ntabwo biba bikwiye, tugomba gufatira urugero nko mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho buri mwana wese amenye ko ibimukikije agomba kubyitaho nk'ibimera.

Inyamaswa zibera mu kagera nk'intare zikunze kuba zizwiho ko ari inyamahane kandi zikunda inyama, ibi ngibi rero bituma abantu benshi batinya kuhajya kuko baba bumva ko zabagirira nabi ariko nyamara hari ababishinzwe iyo ugiye wabiteguje baragutembereza ukahava wanyuzwe kandi wasobanukiwe.

Inyamaswa z'inyagasozi zikunze kuba zigirirwa nabi n'abantu. Ntabwo rero ibikorwa nk'ibi bikwiye. Tugomba kuzitondera tukazifata neza ndetse n'aho dukeka ko hari inyamaswa z'inkazi, tuba tugomba kwirinda kuhajya.

Imvubu ni inyamaswa zikunze kuba ziri mu mazi kandi ziteye ubwoba, abantu rero akenshi usanga bazitinya cyangwa se bazifata nabi aho harimo nka ba rushimusi baba bashaka kuzangiriza cyangwa se bakazica.

Ibikururanda nk'ibigihugu bikunze kugirirwa nabi n'abantu, harimo ababa byikanga bavuga ko byabarya bikaba byabaviramo uburwayi, ariko rero ibikorwa nk'ibi byo kugirira nabi inyamaswa bigomba kurwanywa na buri umwe wese.

Hari bimwe mu bisimba bitaboneka ahantu hose, aha ngaha rero aho biboneka usanga abantu batungurwa cyane ndetse bakaba banabigirira nabi kuko hari igihe baba batarabibona, si byiza rero kugirira nabi inyamaswa n'iyo waba utayizi.

Hari inyamaswa zibera mu mazi aha navuga nk'ibishuhe bimeze nk'imbata ariko ntabwo turasobanukirwa neza inkomoko yabyo n'uburyo biba byarahageze. Gusa ikizwi ni uko ari inyamaswa z'inyamahoro kandi ziri mu bwoko bw'ibiguruka.

Inyamaswa zo mu mazi ziba zigomba gufatwa neza kandi tukirinda kuzigirira nabi, ntabwo rero abantu benshi barafata uyu muco ngo bawugire nk'uwabo bumve ko n'ibiku bikorerwa mu mazi nabyo bidufasha, aha ngaha navuga nk'uburobyi ariko kubaba bugomba gukorwa neza.

Inyamaswa zigiye zitandukanye ziboneka muri pariki y'Akagera ya Nyungwe. Ibi ngibi rero bituma tugomba gushimangira ko hari umuco mwiza mu Rwanda wo gukomeza kubungabunga ibidukikije. Kandi ntabwo tuzigera tuwutezukaho nk'abanyarwanda.

Inyamaswa z'indyanyama zikunze kuba zibera muri pariki cyane cyane iy'Akagera iherereye mu gice k'Iburasirazuba, hari n'izoboneka mu mukenke aho zikunze kubaho zitsimbye cyangwa se zitegereje kugira ngo zize kuba zagira icyo zihiga.

Pariki y'Akagera ifite inyamaswa zigiye zitandukanye kandi z'amoko menshi. Tugomba rero kuzibungabunga, tugatunga agatoki mu gihe tubonye hari uzigirira nabi, nka ba rushimusi aho usanga barahigiye kuzimara.

Inyamaswa ziba mu mazi, harimo ibikururanda ndetse n'ibiguruka. Ntabwo rero tugomba kwirengagiza akamaro bidufitiye kandi ntitugomba no kwirengagiza ko na byo ari ibintu bidukikije by'ingirakamaro.

Inyamaswa zo mu mazi ziba zigomba gufatwa neza kandi zikabungabungwa, aha ngaha rero tugomba kumenya gushyigikira ibikomoka mu mazi nk'amafi, imvubu ndetse n'ingona tukamenya uburyo tuzitwaraho neza kuko ziri mu bintu bidukikije.

Inyamaswa zigiye zitandukanye ziboneka muri pariki y'Akagera, harimo nk'impara n'imparage aho ba mukerarugendo bazikundira ubwiza bwazo kuko zigiye zifite amabara meza kandi anogeye ijisho, ibi rero bituma zikundwa cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi zikunze kugirirwa nabi na ba rushimusi, harimo abazibona bakazitera amacumu abandi bakazica mu gihe zigaragaye nk'ahantu runaka, ibikorwa nk'ibi ngibi biba bigomba kurwanywa kandi hagashyirwaho n'ingamba zikarishye.

Abantu benshi bamaze kugenda basobanukirwa n'akamaro k'inyamaswa zaba iziba mu rugo, iziba mu gasozi, iziba mu mazi, iziba mu biti ariko cyane cyane nk'iziboneka mu mapariki agiye atandukanye, aho twavugamo nk'inzovu aho abantu benshi bakunda kuzireba kandi bivugwa ko ari inyamaswa y'inyamahoro cyane.

Inyamaswa zigomba kuba ahantu heza kandi hatunganye, hari iziba mu mashyamba, hari iziba mu mazi, hari iziba mu ngo z'abantu nk'inka n'inkoko ndetse n'ibindi ariko ntitwakwirengagiza ko hari n'izishobora kuba mu butayu nubwo ari ahantu dutinya cyane.

Inyamaswa z'inyagasozi, dukunze kuzibona mu mapariki. Aha natanga nk'urugero rwa pariki y'Akagera, iherereye mu gice cy'Iburasirazuba, aho dusangamo intare. Zikunze kuza mu bwoko bw'indyanyama.

Bimwe mu bidukikije harimo ibikururanda, buriya n'inzoka zibarirwa mu nyamaswa zidukikije nubwo abenshi iyo bayibonye baba bashaka kuyica ariko ibingibi ntabwo biba aribyo tuba tugomba kumenya gusigasira ibidukikije.

Inyamaswa zitandukanye ziboneka muri pariki y'akagera, aha ngaha dukunze gusangamo udusumbashyamba, ingwe, intare ,ndetse n'ibisamagwe, aho zino ziri mu bidukikije kandi zikaba zikurura ba mukerarugendo.